Urubuga rwo kuri murandasi rwa Britam, sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi. Aho yari irimo kwamamaza serivisi zitandukanye itanga, aho irimo gushishikariza abashoferi ndetse n'abatunze ibinyabiziga kugana iyi sosiyete. Mu rwego rwo gushinganisha ibinyabiziga byabo.

Urubuga rwo kuri murandasi, rwa sosiyete ya Britam itanga serivisi z'ubwishingizi, aho irimo kumenyekanisha, zimwe muri serivisi z'ubwishingizi itanga, aho yari ifite gahunda igira iti, "ese wari uzi ko, hari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, bwagenewe ibigo bitandukanye".

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo, umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo, akaba ari umuhanda ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, ariho hateye n'icyapa cyamamaza.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa sosiyete ya Sonarwa, sosiyete itanga ubwishingizi. Ikaba irimo kwamamaza igira iti, wihangayika ohereza ibisabwa byo kumenyekanisha impanuka igihe cyose, aho uri hose. Mu rwego rwo gukangurira abaturarwanda kugana iki gisosiyete bagafata ubwishingizi.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga serivise z'ubwishingizi aho gitanga serivise z'ubwishingizi mu kwivuza, serivise z'ubwishingizi ku binyabiziga ndetse na serivisi z'ubwishingizi ku matungo, iki cyapa kikaba kiriho abantu bari mu modoka mu rwego rwo kwamamaza izi serivise z'iyi sosiyete.

Icyapa cyamamaza sosiyete ya Oludi macuwa itanga serivisi z'ubwishingizi, aho irimo gushishikariza abaturarwanda gufata ubwishingizi buzabagoboka mu bihe by'akaga, mu rwego rwo kubafasha kubona serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza.

Icyapa cyamamaza sosiyete ya Saniramu itanga serivisi z'ubwishingizi, aho iyi sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza, serivisi z'ubwishingizi ku matungo ndetse na serivisi z'ubwishingizi ku binyabiziga.

Sosiyete ya purayimu inshuwarensi, itanga serivisi z'ubwishingizi, aho yari irimo kwamamaza serivisi itanga z'ubwishingizi mu kwivuza, ndetse n'ubwishingizi ku binyabiziga.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, aho gishishikariza abantu benshi kugana serivisi z'ubwishingizi mu rwego rwo kwiteganyiriza ejo hazaza heza no kwirinda guhura n'ibibazo igihe bagize impanuka.

Apulikasiyo za Banki zifasha abafatabuguzi ba Banki kubona serivisi zitandukanye, nko kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga, kubikuza amafaranga, ndetse no kwishyura ibicuruzwa hakoreshejwe telefoni zigendanwa.

Apurikasiyo ya banki, ifasha abafatabuguzi bayo kubona serivisi zitandukanye, harimo nko kwishyura amafaranga, kohereza amafaranga, kubitsa ndetse no kubikuza mu buryo buboroheye bakoresheje telefone zabo ngendanwa.

Apulikation yo kuri murandasi ikoreshwa mu matelefoni ndetse no muri mudasobwa zigendanwa, akaba ari iya sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ya Eyateri aho iba irimo gufasha abafatabuguzi bayo gukoresha serivisi za banki mu buryo bworoshye kohereza amafaranga bagura interineti ndetse no kubitsa hamwe no kwishyura ibicuruzwa mu buryo bworoshye.

Umucuruzi wambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'umutuku, afashe ishati mu kiganza arimo kwerekana bimwe mu bicuruzwa acuruza by'amashati, akaba akorera mu iduka ricuruza imyambaro itandukanye n'ingofero, amashati, amasengeri, imipira, ndetse n'amapantaro.

Ibikinisho by'abana bigizwe n'ibipupe by'utunyamaswa, iby'abantu, byifashishwa mu kurera abana, bipanze ku tu etajeli twabugenewe bicururizwaho aho byorohera abaje kubigura, kubibona mu buryo buboroheye.

Umucuruzi uri kwakira umukiriya ufite ikaramu mu kiganza, arimo kwandika mu gatabo gatanga inyemezabwishyu, arimo guseke umukiriya urimo mu rwego rwo kumwakira neza no kumuha serivisi nziza.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'imitako y'ubwiza nk'ibikomo byiza bigezweho byo kwambara ku maboko ndetse n'ibyo kwambara mu ijosi hamwe n'impeta, biba bipanze mu tu etejeri twiza cyane twabugenewe byorohera abashaka kubigura kubibona mu buryo buboroheye.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye rya gorudeni fashoni shopu, rikaba ricuruza imyambaro itandukanye harimo amakoti ya kositime, amashati, imipira, ndetse n'amakanzu y'abagore, iduka rikaba ryambika abantu batandukanye.

Iguriro ry'imyenda, ricururizwamo imyenda y'ubwoko butandukanye, nk'amakanzu, amashati, imipira y'abagore, ikaba ifite akabati keza kabugenewe kamanikwamo imyenda, mu rwego rwo gufasha abakiriya babo kubona imyenda, mu buryo buboroheye.

Inzu icururizwamo imyambaro itandukanye, harimo amajipo, amasengeri, udupira, amakanzu ndetse n'inkweto. Aho biba bipanze kutu etajeri twabigenewe kugira ngo byorohere abakiriya baza kubigura kubibona ndetse no guhitamo ibyo bashaka kugura.

Inzu icururizwamo imyambaro itandukanye y'abadamu harimo nk'ama ensharupe, ibitenge ndetse n'amakanzu y'abadamu, iyi nzu ikaba ifite ama etajeri meza akozwe mu byuma amanikwaho iyi myambaro mu rwego rwo gufasha ababagana kubona imyambaro bahitamo bitabagoye.

Iduka ricuruza imyenda ndetse n'inkweto, aho ricuruza imyenda y'abana, hari ibikoresho byabugenewe bigaragaza imyenda y'abana baba bafite hamwe n'inkweto zipanze mu tuyetajeri twiza twabugenewe dusizwe amabara y'icyatsi, turimo n'amatara amurikira izo nkweto mu gufasha abakiriya babo kuzibona mu buryo bworoshye.

Iduka ricuruza inkweto, aho inkweto zipanze mu mayetajeri meza y'umukara, izi nkweto zikaba zicururizwa mu isoko rya dawuni tawuni, aho umukiriya agenda azenguruka yihitiramo ubwoko bw'inkweto yaje kugura.

Iduka ricuruza imyenda n'inkweto aho ricuruza amashati, amapantaro, imipira ndetse n'amakanzu hamwe ninkweto z'ubwoko bwose ziba zipanze mu tuetajeri twiza tw'ibirahure mu rwego rwo gufasha abakiriya kubona imyambaro n'inkweto bafite.

Udukomo two ku maboko ndetse n'ibinigi byambarwa mu ijosi, bimanitse kuri porutemanto yabigenewe aho bicururizwa mu iduka, bikaba byorohera abakiriya bashaka kubigura kubibona ku buryo bworoshye.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye aho harimo amashati, imipira, ingofero ndetse n'amasengeri. Iri duka rikaba rifite ama etajeri agezweho yabugenewe abafasha kumanikamo imyenda mu korohereza abakiriya barigana mu kubona imyambaro ihari mu buryo buboroheye.

Ibikoresho byifashishwa mu kwerekana imyenda, imyambaro itandukanye, harimo nk'amakanzu, amapantaro ndetse n'udupira tw'abategarugori, mu rwego rwo kubafasha, kubona neza imyambaro myiza, icururizwa kugira iduka ricuruza imyenda.

Umucuruzi ukora mu iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, nk'ibyoku kurya, ibikoresho byo mu rugo, afite ikaramu, arimo kwandika inyemezabwishyu, agiye guha umukiriya, arimo kwakira waje kugura ibicuruzwa bitandukanye.

Abagabo batatu bambaye udupira hagati harimo bambaye ishati y'amaboko maremare bari imbere y'ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa Toyota y'umweru, bafashe ku cyapa cyanditse Akagera moto, akaba ari sosiyete itanga serivisi zo gucuruza ibinyabiziga ndetse n'ibikoresho byazo, aho abakozi b'ikigo bari barimo gushyikiriza umukiriya imodoka yari yaguze.

Imodoka nziza y'umukara yo mu bwoko bwa Toyota iparitse muri parikingi, iruhande rw'imodoka y'imbangukiragutabara y'ibitaro bya CHUK, biherereye i Kigali mu karere ka Nyarugenge, aho biri muri parikingi.

Imodoka nziza y'umukara yo mu bwoko bwa Volkswagen wageni, akaba ari imodoka irimo kugurishwa miliyoni cumi na zirindwi z'amanyarwanda, akaba ari marike ya bibiri na cumi na gatandatu, Volkswagen Passat.

Icyapa cya tarafike ekipumenti, kikaba kigaragaza inyubako ikorerwamo n'isosiyete icuruza ibikoresho by'imodoka ndetse ikaba icuruza n'imodoka mu rwego rwo gufasha abanyarwanda bashaka kugura imodoka z'ubwoko butandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa yundayi bibiri nacumi nakabiri undaisontahybrid ikoresha ingufu z'umuriro w'amashanyarazi igurishwa miliyoni umunani z'amafaranga y'u rwanda

Abagabo babiri uwambaye ikoti rya shokora ndetse n'ishati y'umweru n'undi wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, bahagaze iruhande rw'imodoka nziza y'umukara igurishwa, aho umuguzi yaje kuyitegereza.

Ibikamyo binini byambukiranya imipaka, birimo bihagazwe imbere n'abagabo babiri umwe afashe icyapa cyamamaza sosiyete y'Akagera motozi zitanga serivisi zo gucuruza ibinyabiziga ndetse n'ibikoresho byabyo, arimo gushyikiriza ibyo bikamyo umukiriya wabiguze.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikinyabiziga cya kiya cy'umukara bafashe icyapa cyanditseho Akagera moto, sosiyete itanga serivisi zo gucuruza ibinyabiziga by'ubwoko bitandukanye, aho umukozi w'iki kigo yari arimo gushyikiriza umukiriya imodoka yari yaguze.

Imodoka ya Benz yo mu ibara ry'umweru, ikaba igurishwa n'ikigo cya Kigali karizi maketi, gitanga serivisi zo kugurisha imodoka ndetse n'ibikoresho byazo, iyi modoka ikaba igurishwa miliyoni makumyabiri n'eshatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Abagabo bane bahagaze imbere y'imodoka nziza, bafite icyapa cyanditseho Akagera moto, sosiyete itanga serivisi zo gucuruza imodoka ndetse n'ibicuruzwa byayo, aho aba bayobozi b'Akagera moto, barimo gushyikiriza umukiriya wabo imodoka yaguze.

Inyubako ifite parikingi iparitswemo n'imodoka z'ubwoko butandukanye, iriho icyapa cya Yundayi, ikaba itanga serivise zo gucuruza imodoka zo mu bwoko bwa Yundayi hamwe n'ibikoresho byazo.

Abagabo babiri bahagaze iruhande rw'imodoka, umwe afashe icyapa cya sosiyete y'Akagera motozi gitanga serivisi zo gucuruza imodoka ndetse n'ibice byayo n'ibikoresho byayo, akaba arimo gushyikiriza umukiriya wabo imodoka yaguze.

Icyapa cya Yundayi giteye imbere y'umuryango w'igipangu ku nzu ikorerwamo serivisi zo gucuruza imodoka z'ubwoko bwa Yundayi hamwe n'ibikoresho byazo, iruhande rwacyo hakaba hari ipoto ifashweho insinga nyinshi ndetse n'itara rimurikira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa Toyota, ikaba igurishwa miliyoni mirongo inani n'eshanu, ikaba irimo, ari ubwoko bwa Toyota Hayiranda hayiburide makumyabiri cumi na kabiri.

Inzu iriho ikirango cya yundayi, kikaba kiri ku nzu icururizwamo imodoka zo mu bwoko bwa yundayi, ndetse n'ibikoresho by'izi modoka, kikaba gifasha abifuza gutunga imodoka kubona izi modoka mu bwoko, mu buryo buboroheye.

Imodoka nziza y'umukara yo mu bwoko bwa kiya iparitse muri parikingi y'inyubako ya etaje iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba irimo kugurishwa na sosiyete ya Kigali cars market, itanga serivisi zo gucuruza imodoka ndetse n'ibikoresho byazo.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka bafashe icyapa cya sosiyete y'akagera motozi gitanga serivisi zo gucuruza imodoka z'ubwoko butandukanye, ndetse n'ibikoresho byazo umukozi w'akagera muto arimo gushyikiriza umukiriya imodoka yari yaguze.

Abakozi ba banki bicaye mu biro, bikikijwe n'ibirahuri imbere ya mudasobwa, bakaba barimo kwakira abakiriya b'abagabo, babahereza amafaranga baje kubikuza mu gutanga serivise za banki.

Igiceri cya makumyabiri cy'amafaranga y'u Rwanda, kikaba kiri ku meza, gishushanyijweho ikirango cy'u Rwanda, iki giceri kikaba kifashishwa mu bucuruzi mu kugura serivisi zitandukanye hamwe n'ibicuruzwa bitandukanye.

Igiceri cyakozwe mu bihumbi bibiri n'icyenda, kikaba gikoreshwa mu Rwanda, kikaba cyanditsweho banki nkuru y'u Rwanda, kikaba gishushanyijweho insina iriho igitoki ndetse n'umukanana.

Umukobwa ndetse n'akandi kana gato, bicaye barimo kunywa amata mu bikombe by'ibirahuri ndetse bafashe na keke, barimo kwakirwa n'umucuruzi ucuruza amata ndetse n'ibiribwa bituruka ku ifarini.

Kantine igurisha ibikomoka ku mata, harimo yahurute, amata y'ikivuguto ndetse n'amata y'inshyushyu, aho biba bipanze mu ducupa twiza twabugenewe, biri mu ma etajeri ku buryo byorohera uje kubigura kubibona mu buryo bumworoheye.

Ameza ariho isahani iriho seriviyete ndetse n'irindazi, bikikijwe n'intebe zicarwaho mu gufata amafunguro muri kantine icuruza amafunguro.

Katine icururizwamo ibiribwa biva mu ifarini bitandukanye harimo: nka capati, amandazi. Ikaba icuruza amata, ji, ndetse n'amazi, na fanta, biba bipanze mutuetajeri twiza twabugenewe dufite isuku.

Igikoresho gikozwe mu cyuma gicomekwa ku muriro w'amashanyarazi cyifashishwa mu kubika amata mu rwego rwo kuyabungabunga no kuyarinda kwangirika, iki cyuma kikaba kigaragara muri dayari zicuruza amata, aho gikusanya amata kikayabika muri icyo cyuma abayashaka akaba aribo baza kuyagurira.

Iduka ricuruza ibikomoka ku mata, harimo yahurute, amata y'ikivuguto ndetse n'amata y'inshyushyu, aho kibipakira mu tuntu twabugenewe, no mu ducupa tukabipanga mutu etajeri twiza mu rwego rwo korohereza ababigura kubibona mu buryo bworoheye.

Kantine ifite akabati karimo ibikombe by'amatasi, iby'ibirahuri ndetse n'amasahani, hamwe n'indobo zirimo amandazi, zikaba zifite n'utubati turimo amata, amaji ndetse n'amazi bicururizwa muri iyo kantine.

Amandazi ari ku isahani y'idongo ikozwe mu kirahuri, ateretse ku meza muri kantine icuruza ibiribwa bituruka ku ifarini ndetse n'ibinyobwa bidasembuye nka mata, fanta ndetse na ji.

umukiriya ufashe keke, arimo kuyinywesha amata ari mu kirahure ateretse imbere ku meza ye, ameza akaba ariho n'ikaramu, akaba arimo kuyifatira muri kantine icuruza ibiribwa bikomoka ku ifarine ndetse n'amata.

Urubuga rwamamarizwaho ibikomoka ku mata bikorwa n'uruganda rw'inyange aho hari icyapa cyanditseho ni amata meza kiriho umwami ufite ikirahuri cye kirimo amata kiriho ikirango cy'inyange mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa by'uru ruganda.

Apulikasiyo ya sosiyete itanga serivise z'itumanaho ya MTN, ikaba irimo kwamamaza uburyo bushya bwo kugura enterinete ukoresheje mobayilo mani, bidasabye ko ujya ku mu ajenti wabo.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa sosiyete ya eyateri, isosiye itanga serivisi z'itumanaho, aho ikoresha urubuga yamamaza serivisi zitandukanye itanga, aho yari irimo kwamamaza serivisi yo kugura umuriro w'amashanyarazi, ukoresheje eyateri mani.

Uburyo bwa telefoni bwa sosiyete ya emutiyeni itanga serivisi z'itumanaho ndetse n'iza banki, aho ikoresha telefone mu kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza ndetse no gufata inguzanyo, mu rwego rwo koroshya imihahiranire hagati y'abantu hakoreshejwe momo peyi.

Apurikasiyo yo muri telefoni zigendanwa ya sosiyete itanga serivisi z'itumanaho n'iza banki ya MTN, aho yohereza abafatabuguzi bayo uburyo bushya bwo kwishyura hakoreshejwe telefone ngendanwa.

Ikigo cy'imari cya COPEDI gitanga serivisi zo kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga ndetse no kwishyura, aho gikoresha urubuga rwo kuri murandasi mu rwego rwo kwamamaza serivisi ziki kigo.

Application yo kuri murandasi ya spenn itanga serivisi zo kwishyurira ibicuruzwa bitandukanye kohereza amafaranga ndetse no kubitsa no kubikuza, iyi application ikaba ifasha abafatabuguzi bayo kubona serivisi za banki hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefoni zigendanwa.

Apurikasiyo yo muri telefoni zigendanwa ndetse no muri mudasobwa ya emutiyene itanga serivisi z'itumanaho, iyi ikaba ikoresha iyi aplication mu kunoza serivisi za banki itanga. Nko kohereza amafaranga, kwakira amafaranga ndetse no kwishyura ibicuruzwa bitandukanye.

Urubuga rwa PayPal rukorera kuri murandasi, aho ushobora kwishyura ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'izindi serivisi, ukoresheje uru rubuga muri telefone ngendanwa cyangwa se mudasobwa, utiriwe ukoresha amafaranga mu ntoki ahubwo ukishyura ukoresheje telefoni.

Icyemezo cyo kutabamo imisoro cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, kikaba cyarahawe Simako rimitedi mu rwego rwo kwemeza ko iyi sosiyete nta musoro itishyuye mu kugira ngo ibashe kubona izindi serivisi zikenewe.

Inyemezabwishyu y'umusoro yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, kikaba cyarahawe Tarafiki ekwipumenti Rwanda rimitedi ku musoro ungana n'ibihumbi icumi yari yishyuye.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti ikaba yahawe purayimu inshuwaresi limitedi ku musoro ungana 250,000 iki kigo cyari cyishyuye hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Urupapuro rukoreshwa muri bizinesi rwa sosiyete itanga serivisi zo gucuruza amazu ndetse n'indi mitungo itimukanwa, aho bagaragaza inyubako zitandukanye ndetse n'agaciro kazo mu mafaranga.

Inoti y'amafaranga mirongo itanu ya Kongo yanditsweho banki santarare di Kongo, iyi noti ikaba ikoreshwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba ishushanyijeho urusisiro rutuwemo n'abantu bakora umwuga w'ubuhinzi.

Umugabo ukora muri sosiyete itanga serivisi zo kuvunja amafaranga ya bevare foregisi akaba arimo kwandika ibiciro byo ku isoko mvunjfaranga ku cyapa kigaragaza uko ibiciro biba bihagaze umunsi ku munsi.

Inoti z'amadolari y'Amerika hamwe n'iz'amayero ndetse n'amashinwa, birambitse ku meza hamwe n'ibiceri, bikaba birambitswe ku meza mu biro bitanga serivisi z'ivunjisha ry'amafaranga, aho harimo inoti z'ijana z'amadolari y'amerika ndetse n'amayero mirongo itanu.

Umukozi ukora mu kigo gitanga serivisi zo ku kuvunja amafaranga arimo kubara inoti z'amafaranga y'ijana, akaba arimo kuyatondeka mu kugira ngo bimworohere, mu gihe arimo gutanga iyi serivisi yo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga.

Umugabo ufashe terefone mu kiganza wambaye impeta urimo kubara amafaranga y'abanyamahanga, akaba akora mu kigo gitanga serivisi zo kuvunja amafaranga aho bavunja amafaranga mu madorari, mu mayero ndetse n'ubundi bwoko bw'amafaranga y'amanyamahanga.

Inoti z'amayero ndetse n'iz'amadolari y'Amerika zirunze ku meza, mu biro bitanga serivisi zo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga, aho hariho inoti z'ijana z'amadolari y'Amerika ndetse n'iz'Amayero mirongo itanu.

Inoti eshatu z'amayero icumi ziri ku meza, ziteretse mu biro bitanga serivisi zo kuvunja amafaranga, aho umukiriya agenda akavunjisha amafaranga y'amanyamahanga mu bwoko bw'amafaranga yashakamo.

Icyapa kigaragaza ibiciro ku isoko mvunjafaranga ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, aho byari kujya imbere y'inzu ikorerwamo na indikative egisicenje rete, aho gitanga serivisi zo kuvunja amafaranga y'ubwoko butandukanye.

Icyapa kiriho amabandari atanu y'amafaranga y'amayero, kiri ku nzu itanga serivise z'ivunjisha aho kivunja amafaranga y'abanyamahanga mu mafaranga y'amanyarwanda.

Inoti zirambitse ku meza, akaba ari noti z'amayero, aho harimo inoti za magana abiri, z'amayeri ijana, z'amayero mirongo itanu, iz'amayero makumyabiri, iz'amayeri icumi ndetse n'iz'amayero atanu.

Abakozi babiri bakora mu biro by'ivunjisha bafashe inoti mu ntoki zabo, aho umwe afashe inoti z'ijana z'amadorari y'Amerika undi afashe inoti z'amayero mirongo itanu, barimo kugaragaza serivisi batanga z'ivunjisha.

Umukozi ukora mu biro bitanga serivisi zo kuvunja amafaranga y'abanyamahanga arimo kubara inoti, aho imbere ye harambitse inoti z'amadolari ijana z'amadolari y'Amerika, akaba arimo kubara inoti mu kugira ngo amafaranga ayashyire ku murongo, bimworohere mu gihe ari gutanga serivisi zo ku kuvuja amafaranga.

Umuntu ukora mu isoko ry'ivunjisha, afashe inoti z'amayero za mirongo itanu, arimo kuzibara azifashe mu kiganza, mu rwego rwo kuzibika hamwe; kugira ngo yihutishe serivise mu gihe yakira abamugana.

Icyapa kigaragaza inzu ivunjishirizwamo amafaranga y'amanyamahanga, aho ugenda ukavunjisha amafaranga, ukayabika mu bwoko bw'amafaranga ushaka, mu buryo bworoshye.

Umugabo ukora mu biro by'ivunjisha bya bevari foresi. Arimo kwandika ibiciro byo ku isoko mvunjafaranga, ubwo yari afite marikeli arimo kwandika mu rwego rwo kugaragariza abakiriya babo uko ibiciro bihagaze ku isoko mvunjafaranga.

Umugabo uhagaze imbere y'ibyapa, biriho ibiciro byo ku isoko mvunjafaranga, mu rwego rwo kureba uko ibiciro bihagaze mu kuvunja amafaranga y'abanyamahanga, aho ari kwitegereza ku cyapa cya galakisi forekisi biro.

Icyapa kiri imbere y'ibiro bivunja amafaranga, kikaba kigaragaza ibiciro by'uko amafaranga ahagaze ku isoko mvunjafaranga, iki cyapa kikaba kiri imbere y'inzu itangirwamo serivisi zo kuvuja amafaranga y'amanyamahanga.

Inzu ikorerwamo serivisi zo kuvunja amafaranga, ikorwa na sosiyete ya yu efu egisi, ikaba itanga serivisi zo kuvunjara amafaranga y'manyamahanga, aho hicayemo umukozi wayo uri imbere ya mudasobwa harimo kubara amafaranga.

Ibikoresho byiza bikozwe mu biti, intebe, ameza bikaba bikorwa n'abakora umwuga w'ububaji, babikoze mu mbaho bikaba bifasha mu kwicarwaho ndetse no gutekaho amafunguro mu gihe bafungura.

Intebe nziza zo muri salo, zo mu ruganiriro zikozwe mu biti, ziriho imisego ikozwe muri matela, hamwe n'ameza akozwe mu biti, ariho ibirahuri, bikaba bikorwa n'abakora umwuga w'ububaji.

Ameza agaragara neza akozwe mu biti, ibyuma ndetse n'ibirahuri, akaba akorwa n'abakora umwuga w'ububaji, aho bakora ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo, harimo ameza, intebe ndetse n'utubati.

Ibikoresho bikozwe mu biti, biriho ameza afite utu etajeri ku ruhande rwayo, ibi bikaba bikorwa n'abakora umwuga wo kubaza bifatishishije imbaho, bikaba bikenerwa cyane mu kwicaraho ndetse no guterekaho ibiribwa bitandukanye.

Ameza akozwe mu biti arimo n'ibice by'ibirahuri, hamwe n'intebe zikozwe mu biti biri muri saro ahafatirwa amafunguro, ibi bikoresho bikaba bikorwa n'abakora umwuga wo kubaza babikoze mu mbaho ziba zavuye mu biti.

Imeza nziza ikozwe mu giti cy'umwimerere ikaba ikozwe mu rubaho ndetse n'igice cyo hasi k'icyuma, iki gikoresho kikaba cyarakozwe n'abakora umwuga w'ububaji, bakora ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe ndetse n'ububati.

Ibyicaro biri mu busitani bwiza bwa hoteli, bikikijwe n'indabo zibereye ijisho, akaba ari ahantu heza ho kwicara, abantu baruhuka ndetse baganira, mu rwego rwo kubafasha kuruhuka mu mutwe.

Icyumba cyo muri hoteri gifatirwamo amafunguro, gifite ameza ariho amasahani amafoke ndetse n'ibiyiko na kuto n'ibirahurie binywererwamo amazi ndetse n'ibinyobwa bitandukanye biri ahafatirwa amafunguro muri hoteri.

Ameza y'ibirahuri akikijwe n'intebe nziza, zo kwegamira, zifite umutaka hejuru ukingira izuba bazicayemo, bikaba ari ibyicaro byiza biri mu busitani bwiza bwa hoteli, ahicarwa n'abantu bafata amafunguro ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, banaruhuka birinda urusaku.

Ubwogero bwa pisine buri kuri hoteri, bukaba bukikijwe n'intebe zifite imitaka iyikingira izuba, irinda abicaye muri iyo ntebe kuba bagerwaho n'izuba, hakaba kandi hari ubusitani bwiza bubereye ijisho, bufasha abahatembereye kuruhuka neza.

Hoteri yitiriwe urugo rutagatifu ya Senti Famiye iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, akaba ari hoteri igaragara mu matara yaka bibereye ijisho mu gihe cya nijoro, iyi hoteri ikaba itanga serivisi zitandukanye nko kwakira abanyamahanga ndetse n'abanyagihugu, gutanga serivisi zitangwa n'andi mahoteri yose.

Inyubako nziza cyane ya conveshoni senta yubatse mu buryo bwa kijyambere, ikaba ifite amabara meza ayitatse, ikaba iberamo inama nyinshi zitandukanye zikomeye kandi ikaba yakira ba mukerarugendo baturutse mu mahanga.

Inyubako ya etaje, itatswe n'ibirahuri byiza ndetse isizwe amarangi, umweru avanze n'uy'umutuku, akaba ikorerwamo na hoteli itanga serivisi zitandukanye, nk'amacumbi amafunguro ndetse n'aho kuruhukira.

Ibyicaro byiza bikikije pisine yo ya hoteri mu mujyi wa Kigali, iyi hoteri ikaba ifite ubwogero bwa pisine bwiza burimo amazi meza ndetse bukikijwe n'ubusitani butewemo ibiti na pasiparumo bibereye ijisho.

Ubwogero bwa pisine burimo amazi meza buzengurutswe n'ubusitani bwiza, ubu busitani bukaba burimo intebe n'ameza, ndetse n'imitaka ikingira izuba abicaye barimo kuruhuka bavuye mu bwogero bwa hoteri.

Ubusitani bwiza bwa hotel, hotel ikorera mu nyubako y'igorofa yubatswe igeretswe. Ubusitani bukaba burimo intebe nziza z'imikara n'ameza meza y'umweru afite imitaka ituma izuba ritica abicaye kuri izo ntebe.

Inyubako nziza cyane y'igorofa ikorerwamo na hoteri, akaba ari inyubako ifite ubusitani bwiza ndetse n'ibyicaro byiza bibereye ijisho byicarwamo n'abagana iyo hoteri baje gushaka serivisi zitandukanye zitangwa na hoteri.

Konwair yo muri hoteri irimo inzoga nziza zihenze z'ubwoko butandukanye, ziri mu tubati tw'ibirahuri ndetse hakaba hari n'intebe zo kuri kontwari abantu bicaraho barimo gufata icyo kunywa.

Inzu ikorerwamo n'ishami rya SONARWA, sosiyete itanga serivise z'ubwishingizi. Iri shami rikaba rikorera ku Kinamba mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali. Iyi SONARWA ikaba itanga serivise z'ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi ku matungo, ndetse n'ubwishingizi ku binyabiziga.

Umutegarugori wicaye mu biro imbere ya mudasobwa, hakaba hatatswe amabara atukura ndetse n'ay'umweru, hakaba hamanitswemo ifoto y'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ndetse hakaba harimo n'intebe z'umukara, zicarwamo n'abakiriya baje gushaka serivisi z'ubwishingizi.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya purayimeme inshuwarense, kikaba gitanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza, serivisi z'ubwishingizi ku binyabiziga, na moto ndetse n'imodoka na serivisi z'ubwishingizi ku matungo.

Inyubako ya etaje y'igorofa yubatswe mu buryo bugeretswe iherereye Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ikaba ikorerwamo n'ishami rya Kimironko rya sosiyete ya Sonarwa itanga serivisi z'ubwishingizi.

Inyubako y'igorofa ikorerwamo na sosiyete ya Orudi maco itanga serivise z'ubwishingizi, aho itanga cyane cyane serivise z'ubwishingizi mu kwivuza, ikaba ikorera mu Mujyi wa Kigali, iyi nyubako akaba ari cyo cyicaro gikuru cyayo.

Inyubako ikorerwamo na ariyanze itanga serivisi z'ubwishingizi aho itanga serivisi z'ubwishingizi ku bworozi, serivisi z'ubwishingizi ku binyabiziga ndetse na serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza, aho iyi nyubako itatswe n'amabara y'ubururu yanditsemo ariyanze mu rwego rwo kumenyesha abahagana aho iki kigo gikorera.

Inyubako ya etaje isize amarange y'umweru ndetse n'aya shokora, ikaba ikorerwamo n'ikigo gitanga serivise z'ubwishingizi cya oludi maco, aho gitanga ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'ubwishingizi ku matungo.

Icyapa cya NCBA, cyamamaza inguzanyo batanga mu kubaka ndetse no kugura inzu zitandukanye mu rwego rwo gufasha abantu kubona aho batura.

Umukozi wa banki ushinzwe inguzanyo wicaye imbere ya mudasobwa arimo kwakira umugabo n'umugore bamwereka ibisabwa kugira ngo babe bahabwe inguzanyo, arimo kubereka fomu bagomba kuzuza kugira ngo buzuze ibisabwa byo guhabwa inguzanyo.

Abayobozi ba banki ya Ekwiti bateraniye hamwe, bari kumenyekanisha uburyo bushya bwo gutanga inguzanyo, mu rwego rwo korohereza abakiriya babo kubona inguzannyo mu buryo buboroheye kandi bwiza.

Umukozi wa banki yicaye mu biro, imbere ye hari abanyeshuri biga icungamutungo, baje gufata amasomo kuri byinshi ku nguzanyo, mu rwego rwo kumenya neza uko inguzanyo zitangwa ndetse n'uko zicungwa.

Umudamu ukora serivisi zo gucuruza imbuto z'ubwoko butandukanye harimo: imineke, pome, ibinyomoro, amarongi, inanasi ndetse n'ibindi. Arimo kwakira umukiriya amwereka imbuto afite ndetse amubwira n'ibiciro.

Abacuruzi bacuruza imbuto zitandukanye harimo ibinyomoro, amacunga, pome, imineke, inanasi, wota meroni, ndetse na marakuja barimo kwakira abakiriya baje kugura imbuto zitandukanye.

Inyubako y'inkunda mahoro icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiryo, ibyo kwambara, imiti ndetse n'ibindi byinshi ikaba ifite parikingi iparitswemo n,ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto ,ndetse n'amagare hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abantu baba baje gucuruza ndetse n'abakiriya baje kugura.

Abacuruzi bicaye mu isoko ricuruza ibikoresho bitandukanye by'ubugeni, harimo inkoni, ibiseke, ibikapu ndetse n'ibyibo. Iri soko rikaba rifasha abashaka kugura ibikoresho by'ubugeni kubibona mu buryo bworoshye.

Isoko rya Kicukiro, ahagurishirizwa ibikoresho by'ubugeni bitandukanye, harimo ibiseke, ibyibo, ingoma ndetse n'ibindi byakoreshwaga hambere.

Abacuruzi bicaye mu isoko ricururizwamo imboga n'imbuto bitandukanye, harimo nka cokombure, shofureri, insenda, inyanya ibitungururu, kaloti aho abakiriya baza bakagurira imboga.

Umudamu wambaye ikanzu y'igitenge hamwe n'abandi bahuriye mu isoko, baje guhaha ibicuruzwa bitandukanye, aho iri soko ricururizwamo imyenda, imyambaro, ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho.

Umuhanda wa kaburimbo ufite parikingi ziparitsemo imodoka za tagisi vuwatire, ziparitse iruhande rwa kaburimbo, aho ziri imbere y'inyubako ya etaje irimo kubakwa ikikijwe n'amabati y'ubururu. Uyu muhanda wa kaburimbo ukaba ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'izindi modoka, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru n'amatara uwumurikira.

Abaturage batandukanye bacururiza mu isoko rya Kimironko aho bari barimo kugenda mu isoko bagura ibicuruzwa bitandukanye nk'ibikapu n'ibindi bikoresho byo mu rugo, aho iri soko ricururizwamo ndetse n'imyenda y'ubwoko butandukanye nk'amapantaro ndetse n'imipira.

Umucuruzi ucuruza imyambaro itandukanye, arimo kwakira umukiriya, amwereka imwe mu myambaro afite, umukiriya akaba yicaye, umucuruzi arimo kumwambika imyenda, mu rwego rwo kumufasha kumurebera imukwiye.

Isoko rya Huye ricururizwamo imyaka itandukanye, aho usanga ibishyimbo biri ku nkoko, ibigori bihunguye biri mu mabase, hicaye n'abacuruzi babicuruza ndetse n'indi myaka itandukanye, harimo n'ibitoki, imbere yayo hakaba harimo n'abacuruza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo nk'amabase ndetse n'udukapu.

Umucuruzi ucururiza mu isoko ricuruza imboga zitandukanye, inyanya, amashu, karoti, ndetse n'izindi mboga, aho yicaye yitwikiriye umutaka arimo kwakira abakiriya baje kugura imbuto.

Imodoka itwawe n'umumama, iparitse imbere y'isoko rya Kimironko, aho yari aje kugura ibicuruzwa bitandukanye nk'imboga ndetse n'imbuto, iri soko rikaba rikorerwamo n'abacuruzi benshi batandukanye.

Inzu ikorerwamo n'isoko ricururizwamo imyambaro itandukanye harimo ibitenge, aho abacuruzi baba bicaye bategereje abakiriya. Iri soko kandi rikaba ricururizwamo n'ibikomo ndetse n'inigi zo kwambara mu ijosi hamwe n'indi mitako itandukanye.

Isoko ricururizwamo imyambaro itandukanye ndetse n'ibikapu byo guhekwa mu mugongo, aho umudamu arimo gucuruza imyenda y'imbere y'abagore, hamwe n'umupapa urimo gucuruza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Umu ajenti wa MTN, uri muri kiyosiki isizwe ibara ry'umuhondo itatsweho ibyapa bya MTN, isosiyete ikaba itanga serivisi z'itumanaho, aho umukiriya yaje gufata serivisi zo kugura amayinite ndetse no kubikuza hakoreshejwe mobayiro mani.

Umukozi wa sosiyete ya MTN ni sosiye itanga serivise z'itumanaho ahagaze imbere ya mudasobwa arimo kwakira umukiriya amusobanurira zimwe muri serivise batanga, amuha n'ubufasha mu kumenya izo yahitamo ndetse n'uburyo bwiza bwo kubikamo amafaranga akoreshereshejwe momopeyi.

Aba ajenti ba MTN bambaye amajiri y'umuhondo yanditsemo MTN, bari munsi y'umutaka wa MTN, batanga serivisi z'itumanaho bakorera, iki kigo gitanga serivisi z'itumanaho.

Abakiriya bari kuri kiyosike ya emutiyene, sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ndetse n'iza banki, hakoreshejwe telefoni zigendanwa, barimo kwaka serivisi zo kugura amayinite kuri kiyosike kumu ajenti wa emutiyene.

Isoko rigaragarwamo n'urujya n'uruza rw'abantu, harimo; abacuruzi, ababafasha gucuruza ndetse n'abakiriya baje kugura imboga z'ubwoko butandukanye, harimo: nka karoti, intoryi, imiteja, puwaro na puwavuro; aho harimo icyapa cya momopeyi, aho abakiriya bishyura bakoresheje terefoni zigendanwa.

Umu ajenti wa emutiyene sosiyete itanga serivisi z'itumanaho, afite ikaramu mu kiganza arimo kwandika mu ikayi ari kwakira umukiriya waje gushaka serivisi za emutiyeni nko kugura minite, kubikuza, cyangwa se kohereza amafaranga.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo kariho ibirango bya Emutiyeni, yicaye imbere ya mudasobwa, arimo akaba akorera ikigo cya emutiyene gitanga serivise z'itumanaho, aho arimo gufasha umukiriya kubona serivisi icyo kigo gitanga.

Sosiyete ya Rusha Fudu itanga serivisi zo kugemurira abakiriya ibi bicuruzwa ndetse n'ibiryo baguze, aho yifashisha ibinyabiziga bya moto ndetse n'abamotari mu gutwara ibicuruzwa biba byaguzwe n'abakiriya, babibagereza mu rugo.

Apulikasiyo y'urubuga rwo kuri murandasi rwamaza service zo gucuruza hakoreshejwe ikoranabuhanga aho umukiriya agura ibikoresho bitandukanye ndetse nibyo kurya akoresheje telephone igendanwa cyagwa se mudasobwa.

Apurikasiyo yo kuri murandasi y'urubuga rutanga serivisi z'ihahiro ryo kuri murandasi, zitangwa na sosiyete ya Fast derivari, aho umukiriya agura ibicuruzwa bitandukanye akoresheje telefoni ye ngendanwa, bikamugeraho atiriwe ava mu rugo.

Urubuga rwa kasha rutanga serivisi z'iguriro rya murandasi, aho umukiriya agura ibintu akoresheje telefoni ye ngendanwa cyangwa mudasobwa, umukozi wa kasha akabifata akabimugemurira atavuye aho ari. Kasha ikaba igira moto zibaziriho bogisi zabigenewe zitwara ibyo bicuruzwa biba byaguzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Urubuga rwo kuri murandasi ''Iguriro ry'ikoranabuhanga", aho umukiriya ibintu ashaka akoresheje telefoni zigendanwa cyangwa se mudasobwa ku rubuga rwa Shop from Europ and Germany, aho atumiza ibicuruzwa bitandukanye biturutse mu Budage cyangwa se muri Europ.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu igeretse ya etaje, ikaba iherereye mu mujyi wa kigali, ikaba ikodeshwa ibihumbi bibiri by'idorari ry'Amerika, iyi nzu ikaba iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iri mu gipangu, iherereye i Kanombe mu karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, ikaba igizwe na parikingi, yaparikwamo imodoka enye. Iyi nzu ikaba igurwa amafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu y'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza irimo ibikoresho byose bikenerwa, akaba ari inzu irereye mu mujyi wa Kigali ikaba ikodeshwa asaga magana atanu mirongo itanu y'Amadorari y'Amerika akaba akabakaba ibihumbi magana inani y'amafaranga y'u Rwanda.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi ahagaze mu nzu nziza cyane, umutungo utimukanwa igurishwa arimo kwerekana ubwiza bwayo mu kugira ngo afashe abifuza kugura inzu kuba bayibona no kuyigura mu buryo buboroheye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu igurishwa, ikaba ari inzu iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba igurishwa amadorari y'Amerika, ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu, ku muntu ushaka kuyigura.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza irimo amakaro ndetse ikaba ifite amadirishya meza, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikoti n'ishati y'umweru ukorera sosiyete ya Kwiki itanga serivise zo kugura, kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa, aho arimo kwerekana inzu irimo kugurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu, iherereye Kabeza, mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali, akaba ari inzu ifite ubwogero bwiza, inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba igurishwa amafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu ya Amerika ku kwezi, ku muntu ushaka kuyikodesha, iyi nzu akaba ari inzu nziza cyane.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ikodeshwa, iyi nzu ikaba iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, aho ikodeshwa amafaranga asaga igihumbi na magana atanu by'idolari ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza iherereye i kanombe mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali, iyi nzu ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu ushaka kuyigura.

Umutungo utimukanwa, ugizwe n'ikibanza giherereye mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali. Kikaba giherereye iruhande rw'inyubako ikorerwamo n'akarere ka Kicukiro, kikaba gifite metero kare igihumbi na magana arindwi, kikaba kigurishwa miliyoni magana atatu n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iri mu gipangu, iherereye mu Karere ka Kicukiro mu Mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, iyi nzu ikaba igurishwa amafaranga angana na miliyoni mirongo inani n'eshanu y'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu y'igorofa igeretswe gatatu ikikijwe n'ubusitani bwiza butewemo ibiti na pasiparuma, iyi nzu ikaba iherereye Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho ikodeshwa amafaranga angana n'amadorari magana arindwi y'Amerika.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye i Kagarama mu Mujyi wa Kigali, ikaba ari inzu ifite ibyumba bine n'ubwogero bune butatu, ikaba igurishwa ibihumbi cumi na bibiri by'amadolari y'Amerika.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa sosiyete itanga serivisi zo kugura imitungo itimukanwa, irimo amazu, ibibanza ndetse n'ibinyabiziga, ikaba ari isosiyete ya Jump Real Estate.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ubwogero butatu, icyumba cyo kuriramo ndetse n'uruganiriro, hamwe n'igikoni, iyi nzu ikaba ihereherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa ibihumbi ijana na mirongo ine by'amadolari y'Amerika.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye i Kanombe mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, akaba ari inzu nziza iri mu gipangu yubatse igeretswe, ikaba igizwe n'ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse n'ubwogero bubiri, iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi by'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa, ugizwe n'inzu iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba bine n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iri i Remera iruhande sitade amahoro, akaba ari inzu ikodeshwa, inzu iri mu gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye gifite inzugi z'umukara.

Iguriro rya superimarishe rifite ama etajeri atandukanye apanzweho ibicuruzwa bitandukanye ku buryorohera umukiriya kubona icyo ashaka kugura bitamugoye umucuruzi akamufasha kukibona.

Umucuruzi ukorera muri supamaketi, aho arimo kwakira umukiriya, amwereka ibicuruzwa bafite bipanze mu tu etajeri twiza twabigenewe, mu buryo bworohereza umukiriya kubona ibicuruzwa biri muri supamaketi.

Iduka ricuruza imikandara, inkweto ndetse n'ibindi byambarwa, riherereye mu mujyi wa Kigali, akaba ari iduka rifasha abantu kubona ibyo kwambara bitandukanye, nk'inkweto ndetse n'imikandara hamwe n'amakofi.

Iguriro rya supa maketi ririmo ibicuruzwa bitandukanye, aho abakiriya binjira ko bwinshi bazenguruka utuyetajeri turimo ibicuruzwa. Bagenda bafata ibyo baje kugura hagaragaramo abamama, abapapa ndetse n'abana.

Iguriro rya superi marishe riherereye i Kigali, aho ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'amabwiswi, amata ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye biba bipanze mu tuyetajeri, aho umukiriya urimo kwinjira agenda agafata agakoresho kabigenewe agenda ashyiramo ibintu yaje kugura.

Umuyobozi mu kigo cy'igihugu cy'ubwishingizi RSSB arimo gutanga ikiganiro ku banyamakuru abasobanurira zimwe mu ngamba zari zafashwe zo kuzamura umusanzu ubwiteganyirize mu rwego rwo gutanga serivise nziza kandi zijyanye n'igihe.

Umukozi ukora mu iduka ricuruza ibikoresho byo mu rugo bitandukanye, harimo, amasahani, ibikombe, amaterimusi ndetse n'udusorori dushyushya batwaramo ibiryo, tuzwi nka porutemanje, arimo gupanga neza bikoresho mutetageri twabugenewe

mega supermarket iguriro rigezweho rikorera mu nzu ya etageherereye mu mujyi wa kigali ikaba iri ifite amafrigo abamorimo ibinyobwa bitandukanye harimo nk'amafanta ama amaji ndetse n'amazi hakaba hari n'utuyetageri turimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa bitandukanye nk'amapisui ndetse n'ibindi aho umukiliriya azenguruka ahitamo ibyo yaje kugura

Iguriro rya supamaketi ririmo biswi z'ubwoko butandukanye, zipanze mu tuyetajeri twiza tw'umutuku, aho byorohereza abakiriya kuza bazenguruka, barebamo biswi baje kwigurira.

Umukozi ukora muri supamaketi, atanga serivisi zo gucuruza, arimo gufasha umukiriya mu gufata ibicuruzwa yaje kugura, aho biba bipanze mu tu etajeri, umukiriya akagenda azenguruka ahitamo ibyo ashaka kugura bitamugoye.

Iguriro rya supamaketi, rigaragarwamo n'abakiriya batandukanye, aho buri wese afata agatireyi ko gutwaramo ibyo yajemo kugura, aho umukiriya azenguruka ama etajeri meza barimo arimo ibicuruzwa, akagenda ahitamo ibyo yaje kugura.

Iguriro rya supamaketi ricuruza ibinyobwa bidasembuye harimo nka fanta, amaji ndetse n'amazi n'amata, aho umucuruzi arimo gufata ibicuruzwa abipanga mu utu etajeri twabugenewe mu rwego rwo korohereza abakiriya kubona ibicuruzwa mu buryo bworoshye.

Iguriro rya supamaketi rifite ututageri twiza twabugenewe tubikwamo ibicuruzwa bitandukanye. Aho byorohereza umukiriya uje kugura kwinjira azenguruka ututajeri arebamo ibicuruzwa ashaka kugura akabibona mu buryo bumworoheye.

Iguriro rya supamaketi ricuruza ibinyobwa bitandukanye nk'amafanta yo mu mikebe, amafanta yo mu macupa ya palasitike, hamwe n'amazi, ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, aho biba bipanze mu ma etajeri meza. Aho umukiriya azenguruka yihitiramo icyo ashaka kugura.